Abayobozi bateranira hamwe barangiza bagatumiza abaturage bagapanga aho guhurira, barangiza bakabakorera inama. Inama kandi ikaba yatumiwemo n'abashinzwe umutekano kugira ngo babwire abaturage uburyo bakwirindira umutekano.

Umuntu uri buyobore inama agomba kuba yambaye neza yambaye karuvati ishati ndetse n'ikote, kandi akibuka yuko arajya asoma ku mazi nayo akayitwaza.

Iyo ahantu habereye inama, usanga buri wese ahabwa umwanya wo kubaza ikibazo afite kugira ngo abayoboye inama bamufashe gusobanukirwa icyo kibazo kandi banagikemure.

Umubare munini w'abaturage biganjemo ab'urubyiruko bitabira inama. Bagahabwa umwanya bakajya batanga ibitekerezo ndetse n'ibibazo bafite kugira ngo ibyo bibazo bize gusubizwa, babone uko biteza imbere.

Mu Rwanda haje gahunda ya masibo, aho usanga ingo cumi n'ebyiri zegeranye zikora isibo, hari service zimwe na zimwe umukuru w'isibo atanga, nko gufasha umuntu gutanga mutuelle, kwizigamira muri ejo heza, ndetse guhiga no guhigura, ndetse no kugira isuku.

Iyo abayobozi bashaka kugira ibyo babwira abaturage bategura inama, urugero nko mu Murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare habaye inama yigisha abaturage gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ndetse no kuhiga no guhigura imihigo.

Ababyeyi, abagore ndetse n'urubyiruko, usanga bakunze kwitabira inama bagatanga ibitekerezo, bakabiha abari gukoresha inama kugira ngo babumve, babakemurire n'ibibazo bafite.

Iyo hari ikitagenda neza abayobozi bishyira hamwe bagakora inama, iyo nama iba yiga ku cyagirira umuturage akamaro kugira ngo akomeze kubaho atekanye akora ibikorwa bye bimuteza imbere mu mutekano.

Iyo abantu bagiye mu nama bisaba yuko bicara bagatuza kugira ngo bumve icyo uhagarariye iyo nama aba ababwira. Ni ngombwa yuko baba bafite n'amakayi yo kwandikaho ingingo zimwe na zimwe ziba zavuzwe mu nama.

Mbere y'umwaduko w'abakoroni mu Rwanda wasangaga Abanyarwanda bafite umuco wabo ubaranga mbere yuko biyogosheshaga inyogosho zitandukanye, muri izo nyogosho twavugamo amasunzu.

Mu rwanda rwo hambere iyo ibwami habaga habaye ibitaramo, habaga hari intore zajyaga guhamiriza zikabyinira umwami, ariko n'ubugubu mu rwanda intore zirabyina mu bitaramo kugira ngo hakomeze gusigasirwa umuco.

Mu muco nyarwanda habagamo ububoshyi ubwo buboshyi babohagamo ibiseke, ibyo biseke babibohaga bakoresheje inshinge bagakoresha n'ibisubuna bakabikora neza.

Abanyarwanda bo hambere bagiraga umuco wo kuboha ibiseke ndetse no kuboha ibyibo, aribyo bakoreshaga bari guhunikamo imyaka babaga bejeje, cyangwa se igihe babaga bagiye gusura umuntu.

Umubare munini w'abantu biganjemo abasore n'inkumi, abakecuru ndetse n'abasaza, bafite amasuka bajya gukora umuganda cyangwa se bajya guhinga. Ibi ngibi rero byabagaho na kera, ubwo abantu bajyaga gufasha undi ari umubare munini wa benshi bitwaje ibikoresho nk'amasuka ndetse n'ibindi.

Imbyino y'umushayayo, ibyinwa ubwo abantu baba bateze amaboko bashaka kuyagereranya n'ay'inka y'inyambo, izi mbyino zabyinwaga cyane cyane mu birori mbere y'umwaduko w'abakoloni mu Rwanda ariko n'ubu zibyinwa bashaka gusigasira umuco nyarwanda.

Kurasa ndetse no kumasha ni ibikorwa byakorwaga n'ingabo z'umwami mbere y'uko abazungu bagera mu Rwanda, icyo gihe bifashishaga umwambi ndetse n'umuheto mu gihe babaga bari guhiga cyangwa se babaga bari ku rugamba.

Imitako itandukanye abanyarwanda bo hambere babohaga, yabaga ifite amabara meza bakayimanika mu nzu. Muri iyo mitako yabaga igiye kumera nk'agaseke, bagashyiramo amabara y'umukara n'umweru, ayo mabara yari meza cyane.

Mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda, abanyeshuri biganjemo ab'urubyiruko usanga bagerageza kwigana uko Abanyarwanda bo hambere babagaho aho usanga bafashe icumu ndetse n'ingabo kugira ngo bibuke umuco w'Abanyarwanda ba kera.

Mbere y'umwaduko w'abakoroni ngo bagere mu Rwanda. Abanyarwanda bari bafite ubwirinzi. Ubwo batwaraga imyambi bagiye ku rugamba, bakayirashisha bakoresheje imiheto.

Mu muco w'abanyarwanda bo hambere wasangaga bagira ibikoresho bitandukanye bakoreshaga iyo babaga bari kuririmba kugira ngo babone injyana. Muri ibyo bikoresho, bavugamo nk'umuduri.

Ubuyobozi bwegerejwe abaturage, aho usanga inama zirimo abayobozi bakomeye ndetse n'abashinzwe umutekano, bajya gukorera inama mu mudugudu. Ugasanga abakecuru ndetse n'urubyiruko, abasaza n'inkumi, barabishimiye cyane, bakababyinira.

Ingoma mu Rwanda rwo hambere yari ifite agaciro cyane, kuko bayikoreshaga iyo babaga bari kubyina mu bitaramo, si ibyo gusa kandi ingoma yabaga ari nk'ikirango cy'Igihugu, twavuga nk'ingoma bitaga Karinga, ni yo yari ingoma ngabe y'Abanyarwanda.

Inzu mberabyombi zikunze kubera mu ibiro bitandukanye aho usanga hari umubare munini w'abantu baje kureba ibyo birori, bavugamo nk'ibirori biba byerekeranye nk'umuco aho abantu baba bari kuvuga imivugo cyangwa se bari no kubyina mu muco wa kinyarwanda.

Uduseke ndetse n'inkangara ni ibyabohwaga n'abanyarwanda bo hambere, ubwo badutwaragamo ibishyimbo, utundi bakadutwaramo n'iyindi myaka babaga bejeje ubwo babaga bagiye gusura bagenzi babo.

Mu karere ka Nyagatare hamaze kugera umuriro w'amashanyarazi aho usanga ingo zose zo muri aka karere zarabonye umuriro w'amashanyaraziyarazi, umuriro w'amashanyarazi rero bakawifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi nko gutera ipasi ndetse no gusudira.

Amashanyarazi ni kimwe mu gikorwa remezo gituma iterambere ry'imijyi rikomeza kwaguka ndetse n'amasantere mu Rwanda ndetse no hirya no hino, mu bindi bice bigize Isi, amashanyarazi mu buzima kuko atanga ingufu.

Iminara ndetse n'amapironi, bifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, aho abaturage benshi bahawe umuriro w'amashanyarazi, binyuze muri iyo gahunda..

Mu byaro, ikoreshwa ry'umuriro w'amashanyarazi riri gutera imbere cyane, aho usanga buri ngo zo mu cyaro zifite umuriro w'amashanyarazi, bakawukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Imiyoboro y'amashanyarazi mu Rwanda imaze kugera ahantu hanini cyane mu Gihugu ndetse no mu Turere dutandukanye, iyo miyoboro y'amashanyarazi ni yo itanga urumuri kandi igatanga n'ingufu mu byo tuba turi gukora ibyo ari byo byose.

Amazu menshi yubatse kure y'umujyi, usanga nayo yaragezweho n'umuriro w'amashanyarazi, aho imiriro y'amashanyarazi uba uri muri buri rugo rwa buri muturage wese, utuye kure y'umujyi.

Ibikorwaremezo nk'amashanyarazi ndetse n'amazi usanga byarakwirakwiye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Aho usanga abaturage bavuga yuko byabafashije kugera ku iterambere rirambye. Aho amashanyarazi bayakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi nko gutera ipasi ndetse no gucana amatara.

Umuriro w'amashanyarazi, ni igikorwa remezo kimaze gukwirakwira ahantu henshi mu bice bya Nyagatare, aho usanga baba bafite umuyoboro w'itumanaho, uhujwe n'inzira z'amashanyarazi.

Ibikorwa remezo nk'umuriro w'amashanyarazi usanga bimaze kugera mu bice bitandukanye by'igihugu aho abanyarwanda bose baba bacana umuriro w'amashanyarazi ndetse bakawukoresha no mu y'indi mirimo yabo ya buri munsi.

Abantu bize ibigendanye n'umuriro w'amashanyarazi usanga bahora bafite akazi kuko bajya gusana aho imiyoboro y'insinga z'amashanyarazi yangiritse, abantu bakabona umuriro w'amashanyarazi bitabagoye.

Amashanyarazi ari gukwira hirya no hino mu bice bigize igihugu by'umwihariko mu karere ka Nyagatare, aho usanga ingo zose zigaburirwa umuriro w'amashanyarazi n'iminara iherereye muri ako karere.

Ahantu hatarihagera umuriro w'amashanyarazi, leta yagerageje kuhakwirakwiza imirasire y'izuba, aho iyo mirasire iba ifite amabatiri abika ingufu z'izuba, yarangiza igafasha abantu mu kumurika no gukora ibikorwa byabo bifashishije uwo murimo uturuka ku ngufu z'izuba.

Abantu bihangiye umurimo aho ugera mu mugi ugasanga umuntu acagiga amatelefone akanayakanika. Abo bantu aba acagingira ni ababa baturutse mu cyaro, ahataragera umuriro w'amashanyarazi.

Leta yashyizeho gahunda yo kubaka ibiraro, ibyo biraro bikaba biba bikoresheje indodo zikomeye, iyo imvura yaguye ari nyinshi ntabwo icyo kiraro kigenda kubera yuko kiba gikoresheje indodo ndetse n'imikwege.

Leta yagerageje kubaka ibibuga by'imipira mu turere dutandukanye, aho iyo ugeze muri buri karere usanga kaba gafite ikibuga cy'umupira abantu bakiniraho umupira w'amaguru.

Leta igerageza kwegereza abaturage bayo inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi, nk'urugero twavuga, ama banki nka banki ya Kigali ni banki abantu babitsa bakanabikuzamo amafaranga.

Mu bikorwa remezo dusangamo nk'imihanda, yubakwa kugira ngo ihuze uduce tubiri dutandukanye kandi hajye hanyuramo imodoka zikora ubwikorezi bw'ibicuruzwa.

Inyubako z'ibiraro ubu usanga zubakwa ahantu hasi yaho, hari umugezi unyuramo amazi menshi, aho bubaka icyo kiraro kugira ngo kijye gihuza, abaturage bo hakurya ndetse n'abo hakuno bakore ubucuruzi ndetse banahahirane.

Ibiraro ni ibikorwa remezo umuntu wese aba afiteho uruhare. Ibiraro bigira uruhare mu kwagura imihahiranire hagati y'abantu iyo bari kubyambuka bari gusurana ndetse bahari.

Iyo ugeze aho Igihugu kirangirira usanga hubatse inyubako imeze nk'amarembo, iyo nyubako niyo bita umupaka, aho umuturage yambukiranya umupaka, akava mu gihugu kimwe akajya mu kindi abanje kwerekana ibyangombwa bye.

Mu nyubako za leta haba higanjemo amashuri ndetse n'utugari, iyo ugeze ku kagari, usanga inyuma yako haba hariho ibendera ry'igihugu, bigaragaza yuko icyo gikorwa remezo ari icya leta.

Leta y'u Rwanda, igerageza kubaka ibiraro bitandukanye, ahantu hose hanyura amazi, ibyo biraro bikaba bihuza uduce tubiri tugakora ubuhahirane.

Abajyanama b'ubuzima iyo bagiye ku ivuriro, baba bagiye gufata inyigisho z'ukuntu bazajya bavura abaturage batuye mu midugudu mbere yuko bajya ku ivuriro.

Kwa muganga habayo icyumba bajyanamo amaraso cyangwa se ibindi bizamini baba bafashe abarwayi, kugira ngo barebe neza indwara aba bantu baba barwaye babone umuti babaha.

Mu nyubako rusange dusangamo n'amavuriro. Umuntu wese aba yemerewe kujya kwivuriza ku ivuriro, ni na yo mpamvu uba usanga ari inyubako ihuriweho n'abantu benshi.

Leta yagerageje kubaka ibiraro byambukiranya imigezi aho ikoresha, imigozi imikwege n'ibindi, kugira ngo ikore ikiraro, kugira ngo kitazangirika igihe hazaba habaye umwuzure uwo mugezi wuzuye.

Aho igihugu gihanira urubibi n'ikindi gihugu, Leta igerageza kuhubaka umupaka, ku buryo nta muntu ushobora kuva mu gihugu kimwe ngo ajye mu kindi atabiherewe uburenganzira.

Iyo bari gukora umuhanda bakagera ahantu hanyura amazi menshi, bahita bahubaka ikiraro. Icyo kiraro kigafasha abantu baba batuye hafi yacyo kwambuka bagakora ubuhahirane hagati yabo.

Ibitaro by'Akarere ka Nyagatare ni ibitaro bifite imodoka y'imbangukiragutabara iyo bumvishe umurwayi arwaye cyane iyo modoka ihita ijya kumuzana imukuye ku mavuriro y'Utugari ikamuzana ku bitaro by'Akarere.

Ibiraro byambukiranya imigezi bigira uruhare mu iterambere ry'agace ibyo biraro biherereyemo kuko abaturage baturuka hirya no hino baje kugura ibintu bakambuka ibyo biraro bakanasurana.

Leta yubatse amagororero hirya no hino mu gihugu, aho usanga umwana unaniye ababyeyi bamujyana mu igororero bakamwigishirizamo yamarayo igihe amaze guhinduka, bakamwongera bakamusubiza ababyeyi be.

Iyo bigeze mu kwezi kwa kane ku itariki zirindwi abanyarwanda bibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda aho bahura bakaganira ku cyayiteye bakirinda y'uko yazongera kubaho ukundi.

Abayobozi bakunze gukoresha inama umunsi ku munsi baganiriza abaturage babo ibintu byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ukuntu bahabwa ubutabera igihe bahuye n'ikibazo.

Iyo bigeze ku itariki zirindwi z'ukwa kane, usanga abanyarwanda muri rusange bari kwibuka inzirakarengane zabuze ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane (1994) mu Rwanda.

Ubuyobozi bwegerejwe abaturage aho abayobozi bava mu biro bari kumwe n'abashinzwe umutekano bakazenguruka ibyaro bareba abaturage n'ibibazo bafite kugira ngo babibakemurire.

Ibiro by'Umudugudu wa Gacundezi byubakishije amatafari ahiye, bishakakaje amabati kandi imbere yaho hari ikigega gifata amazi, uwo Mudugudu ufite indangagaciro nko gukunda igihugu ukagira kirazira y'uko kizira kugambanira igihugu.

Hirya no hino mu rwanda, usanga haba umugoroba w'ababyeyi. Umugoroba w'ababyeyi ni aho abama bahurira bakaganira uburyo bakwiteza imbere, ndetse bagateza imbere n'urugo rwabo, bakahigira n'ukuntu bafata neza abagabo babo.

Abayobozi usanga begera abaturage bakabakoresha inama, harimo n'abashinzwe umutekano, kugira ngo bababaze ibibazo bafite, babibakemurire ndetse babamenyeshe n'uburenganzira bwabo.

Abaturage benshi bakunze kwitabira inama muri izo nama havugwamo ibintu bitandukanye, niho bamenyera uburenganzira bwabo, bakamenya n'igihe bahabwa ubutabera iyo bahuye n'ibibazo.

Umubare munini w'abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze, uteranira ahantu kugira ngo wumve impanuro zigendanye n'uburenganzira bw'abana ndetse n'uburenganzira bwa muntu muri rusange.

Abapolisi baba mu nzego z'umutekano. Ni ngombwa rero y'uko bajya mu baturage, bakababwira amoko y'ibyaha bibaho ndetse n'uburyo babyirinda ndetse bakababwira n'ukuntu bagomba gutwara ibinyabiziga neza kugira ngo impanuka zigabanyuke.

Mu bigo by'amashuri hirya no hino mu Rwanda haba igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, niyo mpamvu abantu bahura bakaganira kuri ibyo byago byagwiriye u Rwanda kugira ngo bitazongera kubaho ukundi.

Kugira ngo uburenganzira bwa muntu bugerweho, ni uko haba inama abaturage bakabanza bakamenyeshwa uburenganzira bwabo, aho inzego z'umutekano nka polisi ndetse n'abasirikare baba bitabiriye iyo nama kugira ngo bavuge ibihano bihabwa umuntu wirengagije uburenganzira bw'umwana.

Inzego zishinzwe umutekano nka polisi, usanga zijya ahantu abaturage batuye bakajya kubabwira abantu ibyaha bakora ndetse n'uburyo bakwirinda ibyo byaha, kuko babwirwa ibihano bikomeye abo bantu bateza umutekano mukeye bafatirwa.

Abantu benshi ,iyo bagiye gutega imodoka muri gare, usanga hari ahantu habugenewe baba bagomba kwicara mu gihe bagitegereje yuko imodoka iza kubatwara, ibajyana mu byerekezo bitandukanye bitewe n'aho bashaka kujya,

Imodoka zitwara ibicuruzwa, zigira uruhare mu iterambere ry'agace runaka aho abacuruzi iyo bakeneye ibicuruzwa bahita bahamagara imodoka igahita ibibagezaho nta gihe kinini kinyuzemo.

Iyo umuntu akeneye kuva mu karere kamwe ajya mu kandi, bimusaba kunyura muri gare, iyo gare rero iyo uyigezemo, ujya mu muryango w'imodoka ukeneye gutega, kugira ngo bagufashe.

Mu mujyi wa Nyagatare haba hari ibyapa bigaragaza aho inyubako za leta ziherereye ndetse n'iz'abashinzwe umutekano, nk'urugero iyo uhageze ubona icyapa cy'aho polisi iherereye, ubwo n'ishami rya polisi ugahita ujyayo iyo ufite ikibazo, bakagukemurira icyo kibazo.

Imihanda ya kaburimbo yashyizwemo amatara amurika nijoro, aho abantu baba bari gutembera nijoro mu muhanda n'ibinyabiziga bitambuka, nta kwikanga impanuka kubera haba habona.

Imidugudu yose igize Akarere ka Nyagatare yubatse ibicumbi by'imidugudu, aho icyo gicumbi cy'umudugudu kiba kigaragaza aho uherereye. Ubwo ndavuga intara, akarere, umurenge ndetse n'akagari kandi hakaba hariho indangagaciro uwo mudugudu ugenderaho ndetse na kirazira.

Ubwikorezi bw'ibintu n'abantu hakoreshejwe amamoto i Nyagatare bwateye imbere, aho mu mihanda yaho myiza usanga amamoto ari kugenda isaha n'isaha.

Iyo umuntu ashaka kujya mu gace runaka ka kure bimusaba kujya gutega imodoka rusange kugira ngo imugeze aho aba agiye.

Imodoka zitwara abagenzi zigira uruhare runini cyane, aho iyo umuntu akeneye kuva mu gace kamwe ajya mu kandi bimusaba kujya muri gare akajya gutega iyo modoka itwara abagenzi.

Abagenzi baba bashaka guturuka mu karere kamwe bajya mu kandi ,bajya gutega imodoka rusange mu magare atandukanye, barangiza bakagera iyo bagiye amahoro.

Abaturage bamaze kumenya akamaro k'umuganda. Niyo mpamvu usanga bamwe na bamwe bikoreye amabuye bagiye kuyajyana ahantu hatameze neza kugira ngo bayubakishe.

Abaturage mu rwego rwo kwikemurira ibibazo, bahurira mu muganda aho bakora imirimo itandukanye y'amaboko nko kwikorera umuhanda, kwiyubakira ibikorwa remezo, cyangwa se gufasha abakene.

Mu nzego za leta zishinzwe umutekano harimo n'abaporisi. Abapolisi bashinzwe umutekano, ubwo bafata ibisambo, kandi nanone bakagenzura umutekano w'ibinyabiziga mu muhanda.

Inzego zirinda umutekano usanga harimo: abasirikare, abapolisi, inkeragutabara ndetse n'abandi. Abo ngabo uruhare rwabo ni uguta muri yombi abantu baba bakoze ibyaha cyangwa se bahungabanyije umutekano.

Abaturage b'Akarere ka Nyagatare bakunda gukora umuganda, ubwo bagenda ahantu hari ibihuru bakabitema, barangiza bakahasiza umuhanda, uwo muhanda hakajya hanyuramo abantu ndetse n'imodoka n'ibindi binyabiziga.

Mbere yuko inama itangira, ushinzwe umutekano iyo ahari, arabanza agasuhuza, abitabiriye inama mbere y'uko abaha, imbwirwaruhame, cyane cyane abapolisi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, ababyeyi, abasaza ndetse n'abakecuru bahuriye mu kibuga ahakinirwa umupira w'amaguru baganira ku bibazo bibugarije ndetse babishakira n'umuti.

Kamali ni umugabo utuye i Nyagatare ukunda kujya mu bikorwa bya leta cyane cyane nk'umuganda ,usanga iyo bakoze umuganda aba yikoreye ibuye arijyana aho wabereye, cyane cyane iyo ari ukubaka ibikorwa remezo, nk'amashuri ndetse n'ibiraro.

Abaturage iyo bari gukora umuganda baba bari kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe, ubwo bahurira hamwe bagakora umuhanda cyangwa se bakubaka ibindi bikorwaremezo bitandukanye, ibyo ngibyo twavuga nko kubaka amasoko.

Umuganda ni zimwe mu ngamba zafashwe na leta y'u Rwanda, aho abanyarwanda bajya gukora ibikorwaremezo mu rwego rwo kwikemurira ibibazo. Muri ibyo bikorwaremezo twavuga yuko bakora nk'imihanda, bakubakira abatishoboye ndetse n'ibindi.

Umukino wumupira ni umukino mwiza cyane uryoheye amaso, aho ubera kuri stade ari impande ebyiri zihanganye cyangwa se amakipe abiri kugira ngo haze kuvamo itsinda.

Abasore b'urubyiruko usanga bakunda kwambara imyenda baba bajyanye mu myitozo ngororamubiri, barangiza bakazenguruka ikibuga biruka kugira ngo bishyushye, bakore iyo myitozo ngororamubiri.

Umubare mwinshi w'abantu, biganjemo urubyiruko, ababyeyi, usanga ku wa gatanu, nimugoroba, bajya gukora imyitozo ngororamubiri, aho baba bari kwiruka, baturuka mu muhanda, imodoka zahagaze, zabahaye rugari.

Abantu bakuze bakenera kwicara hamwe bakaganira ku kibazo runaka kibugarije kugira ngo barebe uburyo bakibonera umuti. Bivuga yuko bateganya inama yo kuganiriramo ikibazo kiba kibugarije.

Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino ushimisha abatari bakeya aho abakinnyi bajya mu kibuga bambaye imyenda yabugenewe barangiza bagakina, buri tsinda riba rifite abakinnyi cumi n'umwe barangiza bagakina ngo barebe ikipe itsinda.

Abana bakiri bato bakunda umukino wo gukina umupira w'amaguru, aho bambara imyenda yabugenewe, ndavuga imyenda ya siporo, bakajya mu kibuga, bagakina.

Mbere y'uko umukino w'umupira w'amaguru utangira abakinnyi bamanza gukora imyitozo mikeya ubwo bazenguruka ikibuga abandi bagasimbuka kugira ngo baze kujya mu mukino bameze neza batsinde.

Abantu bakina umupira w'amaguru, usanga bahora bishimye kubera yuko baba baganira n'abo bari gukina kandi ukabona bahora bameze neza cyane.

Umukino w'umupira w'amaguru ukunze kubera ahantu hari ikibuga kandi ugashimisha abantu batari bakeya cyane cyane urubyiruko, si urubyiruko gusa ariko twavuga kuko n'abakuze bawukina.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru, mbere yuko bajya mu kibuga bamanza gukora imyitozo, ubwo baba basimbuka, bamanitse amaboko, abandi biruka kugirango ngo bize kubafasha nibagera mu kibuga, barakina umukino w'umupira w'amaguru.

Abantu benshi bakunda gukina umukino w'umupira w'amaguru, aho usanga bibumbiye ku bibuga biba byarubatswe, kugira ngo bakine uwo mupira w'amaguru, bishimishe kandi bashimishe n'abaje kubareba.

Umukino w'umupira w'maguru uba hagati y'amakipe abiri, buri kipe ikaba igizwe n'abakinnyi cumi n'umwe barangiza bakajya mu kibuga bagakina, kugira ngo harebwe ikipe ihiga iyindi.

Mu bice bitandukanye by'ibyaro usanga imihanda yaho itameze neza kuko biragoye kuhabona umuhanda wa kaburimbo, imihanda yaho aba ari iy'igitaka imvura yagwa ikanyerera kuko haba huzuyemo isuri.

Imihanda yo mu giturage kure y'umugi usanga iyo mihanda ifite isuku kandi ari iy'igitaka, abantu bagerageza kuyikubura mu rwego rwo gukwirakwiza isuku kuko usanga nta binyabiziga byinshi biyinyuramo ahubwo ari abantu ubwabo bayinyuramo.